Abantu bicaye ku meza amwe bari mu nama bafite amakayi n'amakaramu, terefone, ndetse bari kunywa n'amazi yo mu ruganda rw'Inyange.

Umunyamakuru wa RBA ndetse n'abatumirwa bazitabira umunsi mpuzamahanga wahariwe umunsi w'umurimo.

Umubyeyi wicaye mu ntebe imbere yateretse amacupa abiri y'amazi y'uruganda rw'inyange rimwe ari iry'amazi irindi ari irya ji yambaye imyenda ikote ry'ubururu ryijimye n'agapira mo imbere k'amabara menshi.

Abaturage bicaye bari mu nama harimo abicaye ku ntebe, harimo abahagaze kandi bahagaze munsi y'igiti, hari n'akazu ka MTN hari n'umupolisi uri kubaganiriza.

Urupapuro rw'itora rugaragaza aho abakandida biyamamarije ku mwanya wa perezida hariho perezida poro kagame hakabaho na furanke.

Abantu bahawe seritifica bahagaze bafata ifoto bambaye impuzangano y'imipira y'imyeru n'ubururu na za bote ndetse hari abicaye ku ntebe harimo umukozi wa ribu, harimo polisi n'abaminisitire harimo n'undi mubyeyi wambaye ikanzu y'ibitenge n'umusirikare.

Imodoka nini zizwiho gutwara esansi itwawe n'umuntu iri mu muhanda igenda ndetse n'umunyamaguru mu nkengero z'umuhanda hateye ibiti hirya yaho hakaba hari amazu.

Mu muhanda hari gucamo imodoka z'amabisi atwara abantu, abamotari, imodoka ntoya ndetse n'ibyapa biranga ibyerekezo ndetse n'inzu hakurya yubatse ndende ya etaje.

Akapa ko mu muhanda kagaragaza aho abanyamaguru banyura, akazu gakorerwamo irembo ndetse na fotokopi n' akapa kinjira muri karitsiye ka ga gatanu.

Igipangu kirimo inzu ya etaje, ndetse haparitse n'imodoka ebyiri.

Umuhanda ndetse n'icyapa cyanditseho Kimironko kwa Mushimire.

Umuhanda urimo n'icyapa cy'umuhanda Kigali magana atandatu mirongo icyenda n'umunani urimo moto ebyiri haparitse imodoka ku ruhande ndetse n'umunyamaguru.

Umuhanda uri kunyurwamo n'imodoka, abanyamaguru, abamotari ndetse n'imodoka iparitse ku ruhande, hari n'urusengero rwo kwa Gitwaza.

Umuhanda uri gucibwamo n'imodoka itwara abagenzi muri rusange ya bisi ndetse n'umumotari uhetse umugenzi. Mu nkengero z'umuhanda haruguru, hari amazu ndetse hari n'ubusitani burimo ibiti.